Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku musambi, bafite abana mu ntoki zabo, bambaye imipira ya oranje, bari kunywera amata mu nkongoro.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amataburiya y'umweru hari n'abandi bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amapantaro biragaragara ko ari abaganga, hirya yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu kiriho ifoto y'umuganga.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye, biragaragara ko bari mu nama hari abafite amakayi imbere yabo, bari gukurikira ibyo babwirwa.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'ubururu n'ameza afite igitambaro cy'umukara, imbere yabo hari impapuro nanone hateretse amazi yo kunywa.

Abana benshi cyane, bambaye impuzankano, umupira w'ubururu bwijimye, n'ijipo y'ubururu bwerurutse, bafite mu ntoki ibikombe by'icyatsi n'ubururu, bari kuvoma ku mazi afite ubuziranenge aturuka mu kigega.

Abantu batatu harimo babiri b'igitsina gore umwe bigaragara ko ari umuganga wambaye taburiya y'umweru na badge mu ijosi rye ari gupima umwana w'umuhungu n'umugore uhetse umwana ufite n'isakoshi y'umutuku.

Umwana wambaye inkweto z'ubururu, ikabutura y'umutuku n'ishati ya gisirikare irimo amabara menshi, biragaragara ko ari ku ivomero rya rusange, ari kunywa amazi akoresheje intoki, hasi hateretse indobo.

Abantu benshi harimo igitsina gabo, n'igitsina gore, biragaragara ko ari kwa muganga, baje gupimisha abana ibiro, hari umuntu w'igitsina gabo, uhagaze imbere yabo, wambaye itaburiya y'umweru, n'undi wambaye impuzankano y'abagororwa.

Abana benshi cyane barigukaraba intoki ku ivomero rya rusange. Hasi hari ibase y'umutuku irikujyamo ayo mazi. Hirya yabo hari ibiti bitandukanye.

Umwana wambaye ipantaro y'iroze n'umupira w'umuhondo, bigaragara ko ari ku ivomero rya rusange, ari kuvoma afite amajerekani atatu, hirya ye hari insina.

Abantu benshi bigaragara ko bari kwa muganga, harimo abahetse abana n'abatabahetse, bigaragara ko bari kubaha serivisi hari n'umuganga wicaye uri kubaha izo serivisi.

Abantu harimo igitsina gabo n'igitsina gore, biragaragara ko ari kwa muganga, abaganga bambaye amataburiya y'ubururu n'umweru n'umusaza ugeze mu zabukuru, bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Imodoka ipakiye imifuka myinshi irimo umuceri hejuru yayo hariho abantu batatu umwe w'igitsina gabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara na babiri b'igitsina gore bambaye imyenda y'ubwoko bw'igitenge.

Abana benshi harimo abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano isa kake, biragaragara bari ku mavomero rusange bari kuvoma bafite indobo z'umuhondo n'utubido.

Abantu benshi batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amataburiya y'umweru n'umuhondo n'ingofero z'umweru n'amadarubindi bipfutse mu maso, bigaragara ko ari mu gihe cya kovide.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye ingofero y'ubururu, umupira urimo uturongo tw'umweru, move n'ubururu, n'igitenge cy'icyatsi, imbere ye hari ivomero rya rusange, bigaragara ko ari kuvomera mu majerekani.

Ku kigo cy'amashuri, hari abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano, ikabutura y'ubururu n'ishati irimo utuzu tw'umweru n'ubururu, bafite ibikombe mu ntoki bari kunywa amazi asukuye.

Mu nzu harimo abantu babiri b'igitsina gabo bambaye amakoti y'umukara n'amapantaro y'umukara, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura ufite impapuro mu ntoki, imbere yabo hari indangururamajwi n'amazi yo mu bwoko bw'Inyange, inyuma yabo hariho icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi cyane higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'umweru, bicaye, biragaragara ko bari mu nama bakurikiye ibyo bari kubabwira.

Hanze hari abantu babiri, umumama wambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa n'umwana w'umuhungu wambaye impuzankano ya kacye, bigaragare ko bari kumusukura intoki, hirya yabo hari ibiti bitandukanye.

Abantu benshi b'igitsina gabo, bicaye ku ntebe z'umweru n'ameza, ariho igitambaro cy'icyatsi, hariho ibirahure birimo ji n'amazi, imbere yabo bafite n'impapuro bari kwandika, biragaragara ko bari mu itsinda.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze ku itapi y'umweru, inyuma yaho hari icyapa kinini cy'icyatsi n'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'ibindi byapa biri ku mpande.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amataburya y'ubururu bwerurutse, bari gukoma amashyi abandi bakabyina, imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gabo w'umuzungu.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo, igitsina gore n'abana, bigaragara ko bari gutanga ubufasha bwo kuvura abantu, harimo uwambaye itaburiya y'umweru, harimo n'umugabo uri gufata akana.

Mu nzu harimo abantu benshi ab'igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'ibirahure, imbere yabo na none hari icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bambaye udupfukamunwa, hari ameza ariho igitambaro cy'ubururu atereretse imashini iri kwaka, biragaragara ko hano ari kwa muganga.

Hanze hari abantu benshi cyane, igitsina gabo, igitsina gore bambaye imipira ya oranje n'amapantaro y'umukara hari n'umupolisi wambaye impuzankano bari kubaka akarima k'igikoni no guteramo imboga.

Abantu benshi higanjemo igitsina gabo n'abana bari ku ivomero rya rusange, hateretse ijerekani y'umuhondo bari kuvoma, hari n'akandi kabido kari hasi, hirya yabo hari ibyatsi.

Abantu benshi cyane harimo uw'igitsina gabo, igitsina gore bambaye imipira y'umweru n'icyatsi n'udupfukamunwa imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru kiriho amakaye n'amazi yo mu bwoko bw'inyange.

Abantu benshi harimo abagabo babiri n'umwana biragaragara ko ari umuganga wambaye itaburriya y'umweru ufite terefone nini mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa, ari kuvura umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati yo mu bwoko bw'ibitenge ugeze mu za bukuru.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo nigitsina gore, bicaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, giteretseho mashini ziri kwaka, imbere yabo hari ikibaho kinini cy'ubururu.

Hanze hari umwana, wambaye impuzankano bigaragara ko ari iy'ishuri, hirya ye hari ikigega kibamo amazi, biragaragara ko ari kuvoma amazi, ava muri icyo kigega, ari kuyavomera mu gikombe.

Icyapa kinini cy'umweru n'ubururu kiriho amafoto y'abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore abazungu n'abirabura cyanditseho n'amagambo menshi mu ibara ry'umweru livingi wani bihayindi.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amabaji y'ubururu, imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gabo w'umuzungu, biragaragara ko bari ku kigo nderabuzima cya Mayange.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru no mu gisharagati gifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikayi mu ntoki n'indangururamajwi mu ntoki ze.

Hanze hari umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishati yumweru, umupira w'ubururu n'ijipo y'ubururu. Biragaragara ko ari ku bukarabiro rusange.

Hanze hari abana babiri b'abahungu bigaragare ko bari ku mavomero rusange, bari kuvoma amazi bayavomera mu ndobo z'umweru, hirya yabo hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu batatu harimo babiri b'igitsina gore n'umwana, biragaragara ko hano ari kwa muganga, umubyeyi yaje kuvuza umwana, umuganga yambaye itaburiya y'umweru na ga muntu ntoki.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore bafite impapuro z'umweru mu ntoki zabo handitseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara inyuma yabo hari ibyatsi.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'umweru harimo abirabura n'abazungu, bahagaze inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu cyanditseho twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abana ndetse n'abageze mu zabukuru, hari n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano y'icyatsi, hari n'ibisharagati by'umweru n'imodoka itwara abarwayi yanditseho ambiransi, hari n'idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Umwana w'umuhungu wambaye ipantaro y'icyatsi, n'umupira urimo uturongo tw'umukara n'ubururu, bigaragara ko ari ku ivomero rusange ari koga mu maso no kunywa amazi.

Umuntu w'igitsina gabo ugeze mu zabukuru wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo uturongo tw'umweru n'umukara, bigaragare ko ari ku ivomero rusange, ari kuvomera mu ijerekani y'umuhondo.

Hanze hari umuntu w'igitsina gabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro yumukara n'ishati y'ubururu bwerurutse, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ya kinyarwanda hirya hari ururabo rw'umuhondo n'umutuku.

Umuntu w'igitsina gore, ukenyeye igitenge, wikoreye indobo y'umutuku, afite n'indi y'umuhondo mu ntoki, uri kugenda, imbere ye hubatse inzu. Hari n'agatanda banikaho.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara hari n'abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu kirimo ifoto y'umuntu, biragaragara ko bari mu nama.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibi modoka bibiri by'umweru bifite icyapa cy'umweru kiriho ibara ry'ubururu, cyanditseho n'amagambo "wa, fa, pa" mu ibara ry'umweru.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo, igitsina gore n'abana bambaye imipira y'ubururu, harimo abirabura n'abazungu bicaye hasi ku musambi bari kuganira.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye bategereje serivise bahabwa biragaragara ko ari kwa muganga, inyuma yabo hari ibyapa biririho amafoto menshi atandukanye.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, har'abambaye imipira y'ubururu n'amaji y'ubururu bwijimye bigaragara ko bari guha impapuro abaturage bar'aho.

Abantu benshi cyane higanjemo igitsina gore, bari ku ivomero rya rusange risize ibara ry'ubururu n'umuhondo n'umweru, bari kuvoma, hari n'amajerekani menshi atonze umurongo.

Abantu batatu b'igitsina gore bambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge, bari ku ivomero rya rusange, bigaragara ko bari kuvoma imbere yabo hari amajerekani menshi, hirya yabo hateye itsina.

Abantu batatu b'igitsina gore, harimo babiri bunamye n'undi uhagaze, imbere yabo hateretse amajerekani abiri, bigaragara ko bari koza icyapa kinini cyanditseho ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore harimo umwe w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge n'undi mu mama uteruye umwana biragaragara ko bari kumuha urukingo.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, biragaragara ko ari aho bakingirira indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye amataburiya y'ubururu bwerurutse n'udupfukamunwa bari gukingira abantu.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'igitaka, hirya yabo hateretse amazi, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, n'abana harimo n'aba mama bahetse abana, biragaragara ko bari kwaka serivisi, imbere yabo hari inzu nini z'izirangi ry'umweru, iri icyapa kinini cy'umweru, n'icyatsi ndetse n'ibendera ry'u Rwanda.

Icyapa kinini cy'umweru, gishushanyijeho akazeru mu ibara ry'ubururu n'umweru n'icyatsi, kirimo n'amazi, hirya yacyo hari amagambo manini ya WASAC mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, n'andi magambo hasi: Water na Sanitation Coperation mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye bafite imashini imbere yabo n'impapuro, bambaye n'udupfukamunwa bari gutanga serivise.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye amadarubindi, ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvate ya shokora, afite n'indangururamajwi imbere ye, hirya hari intebe ziteretseho indangururamajwi n'amazi ya sosiyete y'inyange.

Hanze hari umuntu w'igitsina gore usutamye wambaye umupira w'iroze n'ijipo y'umukara, biragaragara ko ari kuvomera mu ijerekani y'umuhondo iteretse mu ibase, inyuma ye hanitse imyenda myinshi, hirya ye nanone hari inzu.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze hanze, hirya yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu, kiriho ifoto y'umwana, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, yanditseho sale de konferensi.

Icyapa kinini cy'ubururu kiriho inzu y'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, ubururu n'umuhondo, hashushanyijeho n'umubumbe.

Umumama uri kumwe n'abana benshi biragaragara ko bari ku ivomero rusange riteretseho indobo, amajerekani n'amabase baje kuvoma.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gore uteruye mwana w'umukobwa, ufite amasaro y'umuhondo n'icyatsi n'umutuku mu mutwe, wambaye ishati y'umweru, biragaragara ko bari kumukingira.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo, igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, hari abahagaze inyuma, biragaragara ko bari mu nama.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho ifoto y'abantu babiri, umwe w'igitsina gore, wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru n'umukara, n'andi maboko abiri yambaye ga bigaragara ko ari gukingira umuntu.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore n'abana bambaye impuzankano y'amakanzu y'ubururu n'amashati y'ubururu bwerurutse, bahagaze kuri tapi y'icyatsi n'abandi bantu bahagaze imbere yabo.

Abantu benshi harimo igitsina gabo, igitsina gore n'abana hari n'umugore uri gupopa amazi wambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umuhondo n'umwana uri kuvoma wambaye umupira w'umutuku ari kuvomera amajerekani asa umuhondo.

Hanze hari umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru n'umukara, bigaragare ko ari ku ivomero rusange ari kuvomera indobo zisa umweru hirya yaho hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Abantu benshi cyane, harimo abigitsina gabo n'igitsina gore n'abana, harimo umwe w'umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru, bari ku ivomero rusange, bafite indobo z'umuhondo n'amajerekani y'umuhondo, baje kuvoma.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye ku ntebe z'umutuku n'abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo, igitsina gore ndetse n'abana hari umugore wambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge ufite inkwi mu ntoki ze hari n'umwana uri kurira bigaragara ko ababaye.

Icyapa kinini cyane cy'umweru n'ubururu, gishushanyijeho udufureshe ndetse n'umwana, ababyeyi babiri bafite umwana, umugore utwite n'umwana uri gukorora n'amagambo menshi, mu ibara ry'umweru n'umukara.

Umuntu w'igitsina gore wambaye jire y'umuhondo ya sosiyete ya MTN ari mu nzu y'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo salisa, ibirungo byo mu biryo n'ibindi byinshi.

Hanze hari abantu benshi cyane, b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa, biragaragara ko ari abaganga baje gupima indwara zandura n'izitandura.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umutuku, biragaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari n'insakazamashusho n'amajwi.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu n'umweru, ukenyeye n'igitenge, amaguru araziritse, yifashe ku gahanga, biragaragara ko bamufunze, hirya hashashe igitenge.

Mu nzu harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abicaye n' abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho RBC n'andi magambo menshi mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bari ku mafoto atandukanye, iya mbere iragaragaza abagabo babiri, umwirabura n'umuzungu bari gutera igiti, iya kabiri igiti cyakuze, icya gatatu, bari kugaragara ahubwo bari kugitera ari benshi, iya kane hari kugaragara abantu benshi mo imipira y'ubururu bafite n'icyapa imbere yabo.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore. Hari abicaye n’abahagaze biragaragara ko bari gufata ifoto, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru na oranje cyanditseho RBC mu magambo manini.

Abantu benshi cyane harimo abigitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza, hari n'undi w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo, inyuma yabo hari ibyapa byinshi byanditseho amagambo menshi.

Abantu benshi cyane harimo abigitsina gabo nigitsina gore bambaye imipira y'imikara bicaye ku ntebe z'umutuku, biragaragara ko bari mu nama.

Icyapa kinini cy'umweru, kirimo ibara ry'icyatsi, gishushanyijeho umutwe w'umuntu, wanditsemo wadi mento helifu deyi okutomba icumi, mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi cyane, igitsina gabo, igitsina gore ndetse n'abana; bafite amabendera mu ntoki zabo agizwe n'ubururu burimo izuba, umuhondo, n'icyatsi.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo, igitsina gore, bambaye imipira y'umukara n'amashati y'umweru, bicaye ku ntebe z'umutuku n'abahagaze hanze, hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Hanze hari abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze ku madaraza, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, hirya yabo hari icyapa kinini cy'umweru n'ubururu, kiriho amafoto atandukanye y'abantu.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, hari abahagaze n'abicaye mu buryo bw'ikizeru, inyuma yabo hari ibyapa binini by'icyatsi n'umweru.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, higanjemo urubyiruko, imbere yabo bafashe icyapa kinini cy'umweru n'ubururu n'icyatsi, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Mu nzu harimo abantu babiri bose bigitsina gore. harimo uwambaye imyenda y'umukara, n'undi wambaye imyenda y'umutuku wambaye n'ingofero undi wambaye amadarubindi biragaragara ko bari kuganira.

Mu nzu harimo abantu babiri b'igitsina gore bicaye, umwe wambaye ikanzu y'ubururu n'undi wambaye umupira w'ubururu bwijimye, bakora ibibumbano bitandukanye.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho umutwe w'umuntu, urimo ubuso bune n'abandi bantu babiri bashushanyijeho harimo igitsina gabo, n'igitsina gore cyanditseho woludu menta helifu deyi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi myinshi, wambaye isenge y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, wicaye ku ntebe, biragaragara ko yishimye, inyuma ye hari ibiti bitandukanye,

Inzu nini kandi nziza yubakishije amabati yumutuku isize irangi ry'umuhondo, ifite niicyapa kinini cyumweru, nubururu ifite n'urukuta ruriho amadaraza asize irangi ry'umweru.

Abantu babiri, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara ko umugabo ababaye cyane, umugore we amufashe ku rutugu ari kumuhumuriza.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amadarubindi bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse imashini icanye, hateretse n'amazi ari mu ducupa.

Mu nzu harimo abantu batatu b'igitsina gore, babiri bateruye abana bicaye ku ntebe z'ibiti, n'ameza y'ibiti, bigaragara ko bari kugirwa inama n'umuganga.

Icyapa kinini cyane kiriho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hariho umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse, ufite n'indangururamajwi mu ntoki ze.

Mumuhanda w'igitaka hahagaze umuntu w'igitsina gabo w'umuzungu inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru cyiriho akazeru k'icyatsi karimo isaka n'agaseke kanditseho n'amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore harimo abambaye imipira y'umukara, umweru, bambaye amabaji mu ijosi ryabo bahagaze imbere yabo, hari ibikoresho bitandukanye n'ameza ariho gitambaro cy'umukara.

Ikibuga kinini cyane cy'ubusitani, giparitsemo imodoka y'umweru yanditsemo amagambo menshi mu ibara ry'ubururu, hirya hari n'abantu bari gutambuka, inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi irimo abantu.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, hari na tapi y'icyatsi, bigaragara ko bari mu nama n'ameza ariho igitambaro cy'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru gishushanyijeho akazeru k'icyatsi karimo isaka n'igiseke n'andi magambo ya RBC.

Hanze hari abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'urubaho, hari n'umwe ufite impapuro mu ntoki ze, inyuma ye hari insina n'ibiti.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu, bambaye ingofero z'umukara n'imipira y'umweru n'umukara, mu ntoki zabo bafite ibyapa binini bya oranje n'umweru n'icyatsi.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara ndetse n'amakoboyi, harimo abirabura n'abazungu, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kwa muganga aho bavururira amenyo haragaragara umuganga wambaye ga z'umweru n'itaburiya y'umweru afite ibyuma mu ntoki ari gukura umwana amenyo.

Abana benshi cyane bambaye impuzankano y'ubururu bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki zabo; hari ufite ubusa umuhondo, ubururu n'icyatsi biragaragara ko bari gusukura amenyo ya bo.

Mu nzu harimo abaganga babiri b'igitsina gore n'igitsina gabo bambaye amataburiya y'umukara, amadarubindi na ga z'umweru, biragaragara ko bari kuvura umuntu uburwayi bw'amenyo

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda y'umukara hirya ye hari isume y'umukara biragaragara ko ari gusukura amenyo ye, impande ye hari n'impapuro z'isuku.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi, w'umuzungu imbere hari icyapa kinini cy'umweru bigaragara ko ari komeka icyapa imbere ye.

Abantu batatu harimo igitsina gore uryamye, harimo na babiri b'igitsina gabo, bigaragara ko ari abaganga bambaye udupfukamunwa n'amadarubindi bari kuvura umuntu indwara y'amenyo.

Hanze hari abantu benshi cyane, bamwe b'igitsina gabo, n'igitsina gore, bafite impapuro mu ntoki zabo, batonze umurongo, biragaragara ko bari kujya kwipimisha ibiro n'izindi ndwara zitandura, hirya yaho hari igirasharagati c'yumweru kiriho icyapa kinini cyane cyanditseho RBC.

Inzu nini kandi nziza igeretse, isize irangi ry'icyatsi ifite n'inzugi z'ibirahure, biragaragara ko ari kwa muganga handitse n'amagambo Hope Dental Center..

Mu nzu harimo abantu babiri umuganga wambaye ga z'umweru itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'umurwayi wambaye umupira w'icyatsi biragaragara ko ari kuvura indwara zo mu kanwa.

Mu ishuri harimo abantu benshi: Igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abazungu n'abirabura, harimo n'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru n'umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi, afite amenyo mu ntoki ze.

Icyapa kinini kirimoho ifoto yumwana wumuhungu, wambaye ishati yubururu bwerurutse ufite uburoso mu ntoki ze bw'umuhondo n'ubururu. Biragaragara ko ari gusukura amenyo ye.

Inzu yubakishije amakaro y'umweru na purafo z'umweru, isize irange ry'umweru, biragaragara ko ari icyumba bavuriramo amenyo, aho umurwayi aba aryamye bari kumuvura ha move n'umweru n'aho umuganga aba ahagaze.

Mu nzu harimo abantu batatu babiri b'igitsina gore n'igitsina gabo wambaye umupira w'umutuku ufite isahani mu ntoki iriho umugati imboga n'ibindi hamwe n'ugeze mu za bukuru bigaragara ko bari kumwitaho.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge bahagaze mu murima uteyemo ibigori biragaragara ko bari gukapera abantu bazamuye amaboko.

Abantu babiri, harimo umwe w'igitsina gore n'uw'igitsina gabo biragaragara ko bari kumwitaho umwew'igitsina gore afite imisatsi miremire yambaye n'ishati y'ubururu n'uw'igitsina gabo ugeze mu za bukuru.

Abantu babiri bose b'igitsina gore, hari uwambaye imyenda y'ubururu n'umupira w'umweru n'undi ugeze mu za bukuru, wambaye ikanzu irimo utungo tw'umweru n'umukara, biragaragara ko bari kwita kuri uwo ugeze mu za bukuru.

Mu nzu harimo abantu babiri umwe w'igitsina gabo wambaye ishati y'ubururu n'amadarubindi n'undi w'umuzungu w'igitsina gore wambaye imyenda y'ubururu biragaragara ko ari kwita kuri uwo muntu ugeze mu za bukuru.

Mu nzu harimo abantu babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu n'undi ugaragara nk'ugeze mu za bukuru umwe wicaye ku ntebe zi shokora n'undi ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Hanze hari abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye amadarubindi bigaragare ko hari abari gutanga n'abakira utugare tw'abageze mu za bukuru, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu cyatseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, hirya hari igitambaro gifite ibara ry'icyatsi umuhondo n'ubururu.

Abantu babiri bose b'igitsina gore hamwe umwe wambaye imyenda y'ubururu n'undi ugeze mu za bukuru bwiteze igitambaro cy'umukara wambaye amadarubindi n'ishati y'umuhondo bigaragare ko bari kumwitaho.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo abantu batatu babiri b'igitsina gore n'umwe w'igitsina gabo wambaye amadarubindi, uri gukora imyitozo ngororamubiri n'undi mugore uri kuyimukoresha. Hari n'undi uri hirya wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abageze mu zabukuru bambaye ingofero z'urugara n'amadarubindi n'imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero.

Abantu babiri harimo umwe w'igitsina gore wambaye imyenda y'ubururu n'undi w'igitsina gabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko ageze mu za bukuru ari mu myitozo ngororamubiri barimo kumwitaho.

Abantu babiri bafatanye ku rutugu bose n'igitsina gabo, harimo ushaje n'umugabo, bari kugenda mu muhanda wubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, biragaragara ko bari kuganira, hirya yabo hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Mu nzu isize irange ry'umweru harimo umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'ubururu bwijimye, wambayemo n'amadarubindi wifashe ku mazuru no ku munwa ufite ikirahure kirimo amazi.

Mu nzu harimo abantu babiri, uw'igitsina gore, wambaye imyenda y'ubururu, ifite n'imisatsi y'umukara myinshi n'uw'igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu bwerurutse n'amadarubindi, biragaragara ko bari kumupima umuvuduko w'amaraso, anari kwa muganga.

Mu nzu harimo abantu babiri uw'igitsina gore wambaye imyenda y,umukara ufite n'imisatsi myinshi w'umuzungu, harimo n'ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri b'igitsina gore biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, amaboko yabo bayatambitse, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye bisa icyatsi.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umukara, uri gukora imyitozo ngororamubiri, wicaye hasi hirya ye hari intebe zitandukanye ndetse n'indi mitako myinshi.

Mu nzu hicayemo abantu babiri b'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, biragaragara ko bose bageze mu zabukuru, bafite telefone mu ntoki zabo imbere yabo hateretse ikirahure cy'amazi n'imiti itandukanye, umugore afite n'urupapuro mu ntoki.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye ipantaro y'iroze, ugeze mu zabukuru, biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gasambi gasa ubururu bwerurutse no mu busitani bwiza burimo indabo.

Mu nzu harimo abantu babiri, uw'igitsina gabo n'uw'igitsina gore wambaye amadarubindi, imbere ye hateretse imashini icanye na none hateretse imiti n'impapuro z'umweru w'igitsina gabo afasheti mu ntoki, inyuma ye hari akabati gapanzemo imiti.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye hasi y'igiti, hari abicaye ku ntebe z'umweru n'abicaye hasi, biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi cyane b’igitsina gore bambaye imyenda yo mu bwoko bw’ibitenge, bigaragara ko bafite ibyishimo mu maso yabo, bari gusarura icyayi bagishyira mu bitebo bafite inyuma yabo.

Abantu babiri bose b'igitsina gore, harimo umwe ugeze mu za bukuru, wambaye amadarubindi, ufite icyuma mu ntoki n'akantu ari gukatiraho imboga, harimo karoti, inyanya, kokombure, hari n'undi ufite isahani yo kubishyiramo.

Munzu harimo abantu babiri, uwi'igitsina gore wambaye imyenda y'ubururu, ufite n'ikintu mu ntoki cy'ubururu, wambaye na baji mu ijosi w'umuzungu, hari n'undi w'igitsina gabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri ,ari no kumwitaho.

Abantu benshi b'igitsina gore, bicaye, bigaragara ko bari mu isoko, bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, bambaye n'imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge.

Abantu batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye, bari guseka, bafite amakarita mu ntoki zabo no ku meza harambitse ibipapuro bitandukanye.

Mu nzu harimo abantu babiri uw'igitsina gore wambaye imyenda y'umutuku na baji mu izosi rye, biragaragara ko ari umuganga, n'ugeze mu za bukuru w'igitsina gabo wambaye amadarubindi, ufite n'imisatsi yabaye uruyenzi, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Icyapa kinini cyane kiriho abantu benshi, bigaragara ko ari umuryango, harimo umugabo, umugore n'abana bambaye impuzankano, biragaragara ko bari kuganira.

Icyapa kinini cy'umweru n'ubururu na oranje cyanditseho kompurehensivu segishuwariti edikesheni mu ibara ry'umweru n'andi magambo menshi mu ibara ry'umweru.

Urupapuro runini rw'umweru n'ubururu rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, hariho n'ifoto y'abana bigaragara ko bafashwa n'umushinga, hejuru hari ibirango bitandukanye by'ubururu.

urupapuro runini rw'umweru ruriho ifoto y'abantu benshi, igitsinagabo n'igitsinagore, hariho umugore uteruye mwana, hariho n'igishushanyo cy'ikarita ya afurika n'andi magambo menshi yandikishije ibara ry'umukara n'ubururu.

Icyapa kinini kirimo ibara ry'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hariho n'ibindi birango bitandukanye nka r, b, s, u, r, n'ibindi byinshi.

Icyapa kinini cyane gifite ibara ry'umuhondo, umweru kiriho abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore. Harimo umwe wambaye amadarubindi wambaye n'imipira y'umweru bafite udukingirizo mu ntoki.

Urupapuro rw'ubururu ruhagaze ku'umweru, mo imbere harimo isaka n'agaseke handitseho paburike ofu Rwanda Minisitire ofu mu ibara ry'umweru.

Abantu batatu b'igitsina gore, hari abicaye bambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa, n'undi uhagaze wambaye ishati mu bwoko bw'igitenge cy'umweru, umuhondo, n'undi muntu uhagaze bigaragara ko ari umuganga uri gutera urushinge, umuntu wicaye nawe ni umuganga yambaye gupfukamunwa.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru na karuvati, imbere ye hari indangururamajwi biragaragara ko bari mu nama, inyuma ye hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'ifoto y'umuntu uri kuvugira imbere.

Abantu benshi, harimo abaganga babiri, bambaye amataburiya y'ubururu, udupfukamunwa n'ingofero, biragaragara ko bari gupima indwara ifatira mu kanwa, uyu muntu wicaye, hari n'abandi bahagaze hirya.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bambaye imipira y'iroze n'udupfukamunwa, biragaragara ko bari gutanga imfashanyo z'impapuro z'isuku, imbere yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo manini mu ibara ry'iroze n'ubururu.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'ingofero n'amadarubindi afite icyapa kinini mu ntoki cy'umweru cyanditseho monke pogisi vasine agisesi nawu mu ibara ry'umutuku.

Mu nzu harimo abantu babiri b'igitsina gabo bambaye amakoti yubururu bwijimye amashati y'mweru na karuvati z'umukara bafite ibipapuro mu ntoki zabo bari kuramukanya inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru kiriho akazeru k'icyatsi karimo isaka n'agaseke.

Abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze hanze, bambaye amashati y'umweru, bambaye n'udupfukamunwa, bahagaze ahantu hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave n'inzu iri hirya yabo yanditseho Isange one stop center, Kabutare hospital.

Inzu nyinshi kandi nini biragaragara nko kwa muganga zisize irangi ry'ubururu hari n'abantu bari kugenda batandukanye, imbere yabo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo n'ibiti.

Inzu y'ubucuruzi, yubakishijwe amakaro, ifite na purafo z'umweru, irimo n'amatara y'umweru, isize irangi ry'umuhondo, iteretsemo intebe, icururizwamo imiti...

Imihanda ibiri inyuranamo yubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, harimo n'abagenzi bari kugenda n'abari kugaruka. Hirya yayo hari amazu menshi atandukanye, na none hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitandukanye.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro na purafo y'umweru irimo ibikoresho bitandukanye intebe, akabati, igitanda cy'abana, amarido, ubukarabiro n'ibindi byinshi. Biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto, harimo n'izindi modoka ziparitse, hirya hari amazu meza afite amabati y'umutuku asize irangi ry'umweru, hino hari n'icyapa kinini cyanditseho ''University teaching hospital of Butare.''

Abantu benshi cyane barimo igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu bahagaze mu busitani bwiza, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho Butaro hosipito.

Inyubako nziza kandi nini ihagazeho umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'umuhondo hanze hari n'ibitaka, hejuru handitseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari kuzinga inzitiramibu y'ubururu, hano biragaragara ko ari kwa muganga, harimo umurwayi uryamye ku gitanda, hirya hari imashini zipima umutima.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bambaye imipira y'ubururu harimo babiri bahagaze, umwe w'igitsina gore wambaye amadarubindi bicaye ku ntebe z'ibiti n'ameza ariho igitambaro k'iroze bicaye mu nzu isize irangi ry'umweru n'amatafari ahiye yanditseho materneti inzu yababyeyi.

Inzu nini cyane kandi nziza, yubakishije amakaro, irimo irangi ry'umweru, biragaragara ko ari kwa muganga, ifite ibitanda byiza by'umweru n'amarido y'ubururu n'inzitiramibu z'umweru.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro hejuru hari purafo nziza ifite n'amadaraza, hari n'ahanditse regasi hosipitariti imforumesheni desike.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, biragaragara ko bari kwa muganga, hari n'umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Inzu nini cyane ifite n'amadaraza, bigaragara ko ari iy'ubucuruzi icururizwamo imiti, ifite ibyapa byinshi bitandukanye harimo ik'icyatsi cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Inzu yubakishije amakaro isize irangi ry'umweru, aha biragaragara nko kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo igitanda, ibikoresho bakoresha bavura, na televiziyo.

Abantu babiri b'igitsina gabo, bicaye ku ntebe z'umukara, hari umwe wambaye jire y'ubururu bwijimye n'undi wambaye baji mu ijosi, bigaragara ko bari kuganira, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho Irembo.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abana, hari n'umugore uhetse umwana mu mugongo, biragaragara ko bari kwa muganga, hari n'icyapa kinini cy'umweru, cyanditseho reception, aho bakira abagana ikigo nderabuzima.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro, isize irangi ry'mweru, harimo n'intebe zisa ubururu bwerurutse, hari n'ahantu handitse resebusiyo.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya yumukara nin'inzogi z'umukara hanze hari ubusitani bwiza buteyemo indabo nanone hari n'umuhanda wubakisha amatafari yo mubwoko bwamapave.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cy'igare gitwaye umuntu ufite indobo mu ntoki ze imbere yabo har' icyapa kinini cyanditseho ikigo nderabuzima cya gisenyi hirya yawo biragaragara ko ari kwa muganga hari abantu batandukanye kandi benshi.

Inzu nziza kandi nini yubakishije amakaro ndetse na parafo z'umweru isize irange ry'umweru, biragaragara ko ari kwa muganga harimo n'abarwayi benshi batandukanye harimo n'umuntu w'igitsina gabo n'igitsina gore, bari gukora isuku muri iyo nzu.

Munzu harimo abantu benshi, ab'igitsina gore wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'agapfukamunwa, biragaragara ko ari kwa muganga, harimo ibitanda byo kwa muganga biryamyeho abarwayi n'ibindi bikoresho byinshi.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amabuye, harimo abantu babiri b'igitsina gabo bari kugenda bambaye amataburiya y'umweru, hirya y'iyo nzu hari ubusitani bwiza.

Inzu y'ubucuruzi yubakishije amakaro ifite inzugi z'icyatsi n'ibirahure icururizwamo imiti hari n'icyapa kinini cyanditseho poroguresi forumasi mu ibara ry'icyatsi imbere yayo haparitse imodoka.

Inzu nini kandi nziza biragaragara ko ari kimwe mu byumba byo kwa muganga kibamo ibikoresho bitandukanye imashini ipima umuvuduko w'amaraso, ipima umutima ndetse n'igitanda abarwayi baryama, hanze yacyo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara n'umweru, hirya yaho hari akazu k'umuhondo ka sosiyete ya emutiyeni, hirya yaho hari inzu nini nziza igeretse isize irange ry'umweru.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amakaro ifite n'amatara abiri hejuru, biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi icururizwamo imiti myinshi itandukanye, harimo komputa n'intebe y'umweru yo kwicaraho, hari n'icyapa kinini cyanditseho porogeresi farumasi.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'urubaho, hari n'undi mugabo uhagaze imbere, wambaye ikote n'ipantaro by'umukara n'ishati y'umweru, biragaragara ko bari mu nama.

Mu nzu harimo abantu benshi bambaye ibisarubeti by'umweru n'ubururu n'ingofero n'udupfukamunwa biragaragara ko hano ari kwa muganga bari kuvura indwara zandura.

Inzu nini isize irange ry'umweru yubakishije amabati y'umukara yanditseho medical research institute impande yaho hari umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka n'ubusitani bwiza.

Inzu nyinshi kandi nini zisize irangi ry'umweru rifite n'ibyuma kuruhande, hirya yayo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo zitandukanye n'ibiti, imbere hari icyapa kinini cyane kirimo amabara icyatsi, shokora, oranje, ubururu, umuhondo, n'icyatsi cyerereka umuntub amerekezo bitewe n'aho agiye.

Inzu nini yubakishije amabuye, igaragara nkaho ari iyubucuruzi, hanze hahagaze abantu harimo igitsina gabo n'igitsina gore, na none hanze hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi n'indabyo nziza cyane, zisa umutuku.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye isize irange ry'umuhondo n'umweru yanditseho amagambo menshi mu ibara ry'ubururu, hanze hicaye abantu ku ntebe hari n'abandi bicaye hanze, hirya yabo hari ubusitani burimo indabo z'icyatsi n'umuhondo.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, biragaragara ko iyo ari inyubako yo kwa muganga, harimo n'utubati turimo imiti itandukanye.

Hanze hari abantu benshi ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye hirya yabo hari ubusitani bwiza burimo indabo nanone hirya yabo hari inzu nziza isize irangi ry'yumweru ifite n'amabati y'umutuku biragaragara ko ari kwa muganga.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bambaye udupfukamunwa biragaragara ko ari kwa muganga, hari abari kuza kwaka serivisi n'abaganga bari kuzitanga.

Hanze mu muhanda w'igitaka hagaze umuntu w'igitsina gore uhetse umwana, imbere ye biragaragara ko ari ku kigo nderabuzima cya Kigina herifu senta aho bavurira abarwayi.

Inzu nini cyane yubakishije amakaro irimo na parafo y'umweru, irimo ibyuma bitandukanye iragaragara nk'inyubako yo kwa muganga harimo imashini, intebe n'ibimashini byinshi bipima indwara zitandukanye.

Inzu nziza kandi nini, isize irangi ry'umweru, ifite n'amadirishya menshi. Inyuma yayo haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, harimo imbangukiragutabara y'umweru, n'izindi modoka zo mu buryo bw'umuntu ku giti cye, umukara, umweru, shokora n'izindi nyinshi.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati y'ubururu bwererutse n'ipantaro y'umukara, wicaye ku gikuta cyubakishije amabuye, yicaye hasi y'igiti, hirya ye hari ubusitani bwiza.

Mu nzu bigaragara ko ari kwa muganga haryamye umuntu w'igitsina gore, uryamye kuri matera y'umweru yiyoroshe n'ishuka y'umweru, hirya hari ibyuma byinshi bipima indwara zitandukanye, umutima ndetse n'ibindi.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara n'ubururu, bafite udupaniye mu ntoki, bigaragara ko bari kujya gusura abantu kwa muganga, hari n'inzu nini yanditseho KFH Rwanda.

Inzu nini cyane igeretse yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa kinini cy'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, hasi haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, hari n'umutaka w'umutuku wa sosiyete ya Airtel wicayemo abantu.

Inzu nini cyane kandi nziza yubakishije amabuye impande yawo hari umuhanda wubakishije amabuye y'ubwoko bw'amapave harimo n'umuntu uri gutambuka hirya yawo hari ubusitani bwiza buteye mo idarapo ry'uRwanda rifite ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi.

Inzu nini cyane kandi nziza, yubakishije amatafari ahiye isize irange ry'umweru, yubakishije amabati y'ubururu, biragaragara ko ari ku kigo nderabuzima. Ku nzu hari ibyapa binini by'umweru, ishushanyijeho ijisho n'ikindi cyanditseho Gihundwe Hospital.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu, ufite ubwanwa, wambaye isaha ku kaboko, biragaragara ko ari kunywa amazi ari mu gacupa k'ubururu, inyuma ye hasa umweru n'ubururu.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, hasi hari tapi y'icyatsi hari n'akantu ko ari gusimbukaho, hirya hateye indabo.

Umuntu w'igitsina gore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara irimo umweru bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri yapfukamye arambuye amaboko hirya ye hari n'intebe zo kwicaraho.

Urupapuro runini cyane ruriho ibikoresho bikoreshwa kwa muganga ari byo: ga, umukasi, inshinge, ibinini, ibipfuko ndetse n'indi miti myinshi itandukanye.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'abitwikiriye umutaka w'iroze, hari n'abandi bana bari mu kibuga hagati, bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye amasengeri y'umweru, n'amakabutura y'umukara.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru, wambaye insimburangingo imbere ye hari indi nsimburangingo, na none hari indi nsimburangingo yambaye urukweto rw'umukara.

Ibikapu bitatu bitandukanye, bifite amabara atandukanye, harimo umutuku, umukara, icyatsi cyerurutse, ubururu n'ibindi byinshi. Harimo ibikoresho bitandukanye, impapuro z'isuku, uburoso bw'amenyo ndetse n'ibindi.

Ameza ateretseho ibintu byinshi bitandukanye, imidari hamwe n'imbuto, harimo inanasi, amaronji, imyembe, pome, imineke, indimu, n'ibindi byinshi.

Ameza ateretse ibintu bitandukanye: imbuto, amaronji, pome n'ibindi, hariho na metero, amazi ari mu icupa ry'ubururu ndetse n'igikoresho bakoresha siporo.

Icyapa kinini cy'umweru n'icyatsi cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, hariho n'abantu b'igitsina gabo batatu bambaye ingofero z'umuhondo n'umutuku n'amapantaro y'umuhondo n'imipira y'umweru wanditseho kane n'undi w'umutuku wanditseho gatandatu.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa n'igikoresho bakoresha siporo, mu biribwa harimo shufurere, pavuro, amaronji, pome, imyembe n'ibindi byinshi, hari n'icupa ririmo amazi.

Umuntu w'igitsina gore w'umuzungu, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye. Hari ibiribwa bitandukanye imineke, ironji, pome ndetse n'ibindi byinshi.

Icyapa kinini, kiriho ifoto y'umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'icyatsi, wanditseho n'amagambo mu ibara ry'umukara, mu ntoki ze afite umupira wa baro, wanditseho kane mu ibara ry'umukara.

Mu nzu harimo abantu babiri umwana biragaragara ko ari kwa muganga w'igitsina gore yambaye umupira wa move n'ijire y'umuhondo biragaragara ko ari kuvura uwo mwana.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye bakoresha siporo n'icupa ry'amazi, inkweto umunzani n'ibindi byinshi hari n'ibiganza bifashe ibiribwa bitandukanye pome, inyanya, tungurusumu, karoti, pavuro, avoka shufurere n'ibindi byinshi.

Abantu babiri harimo uw'igitsina gore wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'ubururu, n'uw'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara n'umweru, n'inkweto z'umukara, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro y'ubururu bwererutse n'agasengeri k'umweru, yazamuye amaboko, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri upfukamye, imbere ye hari igiti cy'ubwoko bw'imikindo.

Mu muhanda harimo umuntu w'igitsina gabo w'umwirabura wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru, n'inkweto z'umweru, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari amazi.

Mu muhanda harimo umuntu wigitsina gore wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara na ekuteri mu matwi n'inkweto z'umweru, biragaragara ko ariho imyitozo ngororamubiri hirya ye hateretse icupa ry'amazi.

Ameza ateretseho igikombe cyo mu bwoko bw'kirahure, n'ikiganza cy'umuntu gifashe ijage mu ntoki, ijage irimo amazi, iri gusuka muri cya kirahuri amazi meza.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umweru n'ubururu bwijimye n'umupira w'ubururu bwijimye, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Urupapuro runini rw'umweru ruriho ifoto y'akabido k'umweru kariho n'ibara ry'umukara, ryanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'akazeru k'umutuku kandinditsemo sitopu mu ibara ry'umweru.

Ameza ateretseho ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, ikirahure kirimo amazi n'ikindi kirimo umutobe w'umuhondo, hateretseho ibiribwa, pome, inyeri, ubunyobwa n'ibindi byinshi hariho na metero.

Amafoto agaragaza ibihingwa bitandukanye bisa icyatsi, biri mu tuzu, byanditseho n'inyuguti: a, b, c, d.

Urubuto rusa icyatsi rwitwa ipapayi rumwe ni rwose, urundi rugabanyijemo kabiri, mo mu imbere rusa oranje n'umuhondo, harimo n'imbuto zaryo zisa umukara.

Ameza y'igiti ateretseho agatambaro kariho isahane y'umweru iriho ururabo rw'icyatsi hariho n'indimu hariho n'igikombe cy'umweru kirimo umutobe w'indimu na tangawize.

Mu nzu harimo akabati kanini k'umweru karimo imiti itandukanye ya Kinyarwanda hari iri mu icupa ry'umweru n'iri mu icupa rifite umuvunikizo w'umuhondo harimo ibumba, amakara n'indi myinshi.

Icyapa kinini cyane cyamamaza imiti ivura ibintu bitandukanye, hariho icupa rifite umupfundikizo w'umweru n'icyapa kiri kuri ako gacupa kiriho ibara ry'iroze, n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umweru, nko ku muryango, uvura kurangiza vuba, gucika intege n'ibindi.

Imiti y'ubwoko bwa kizungu hari ipfunduye n'indi mu gakarito gasa icyatsi, ubururu n'umweru kanditseho Aliyanse makumyabiri na kane, akarongo karindwi.

Icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho amagambo menshi mu ibara rya shokora n'umweru, cyanditseho forever bee honey hashushanyijeho n'uruyuki.

Inzu y'ubucuruzi irimo umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru, hirya ye hari firigo n'akabati gapanzemo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ubuki, amaji, amazi, inzoga n'ibindi.

Igiti kinini gifite amababi atandukanye cyo mu bwoko bw'umuravumba kivura indwara zitandukanye, urugero inkorora, ibicurane n'ibindi byinshi, hirya yacyo hari amazu atandukanye.

Agakarito ka sosiyete ya aliyanse kariho amabara atandukanye icyatsi, umweru, umuhondo n'ubururu kanditseho n'amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'icyatsi kanditseho makumyabiri na kane akarongo karindwi.

Icyapa kinini cyane kiriho akabido gasa ubururu kariho icyapa kinini cy'umweru n'umupfundikizo w'icyatsi kandiditseho M P D mu ibara ry'ubururu, hari n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umweru na nimero wabahamagaraho mugihe ushaka ko baguha serivise.